Imiti yica udukoko. Kugira ngo abahinzi babone aho bagurira imiti yo gutera mu myaka ya bo, ni ngombwa ko habaho ahantu bayigurira.

Agacupa karimo umuti wica udukoko , umuti wica udukoko n'ingenzi ku bahinzi , kuko bawufuhira mu myaka n'uko udukoko tugapfa.

Ibigori biri ku ntara bahungiye umuti, ibindi bikaba biri mu mapaki yabugenewe.

Imiti yica udukoko, ni myiza ku bahinzi, bayitera mu myaka yabo kugira ngo yice udukoko, tutangiza imyaka yabo.

Umugabo wambaye isurubeti y'ubururu ,ufite ipombo uri gufuhira imbuto, uruyange kugira ngo ibyonnyi bitaruhungura, umusaruro ukaba muke.

Uducupa tubiri turimo umuti wica udukoko, uwo muti abahinzi bawukoresha, bari kugira ngo bice udukoko twakwangiza imyaka.

Umugabo wambaye imyenda idahitamo amazi, uhetse ipombo y'umutuku, wambaye agapfukamunwa, akaba ari gufuhira ibihingwa bye, ngo udukoko tutabyangiza.

Imiti yica udukoko, ikunze kuba iri mu macupa ya parasitike. Imiti yica udukoko abahinzi bayifashisha mu gutera mu mbuto zabo, kugira ngo udukoko tutabangiriza imyaka.

Ikiganza gifashe urugemwe rw'imbuto ruri mu gihoho. Igihoho gituma urubuto rutangirika.

Ikiganza gifashe ifumbire mvaruganda kikaba kiri kuyishyira ku gihingwa, kugira ngo igihingwa gikure neza.

Amafumbire mvaruganda ari mu mifuka ya NPK. Ari mu bubiko bwayo. Amafumbire yifashishwa mu gutera imyaka kugira ngo umuhinzi azabone umusaruro ushimishije.

Imashini yifashishwa mu buhinzi, ikaba iri kuvomerera imyaka, cyangwa se kuyifuhira ngo yice udukoko.

Ikiganza giteruye ifumbire y'imborera. Ifumbire y'imborera ikoreshwa kugira ngo yongere umusaruro.

Uducupa twa palasitike turimo umuti wica udukoko. Abahinzi bafuhira mu myaka yabo kugira ngo ibyonnyi bipfe, bityo babone umusaruro ushimishije.

Dedeti ni umuti wica udukoko. Abahinzi barawukoresha bawuvanze n'amazi bagafuhira imyaka. Kugira ngo udukoko tutangiza imyaka.

Amasamaki yumye, ari mu ndobo. Amasamaki barayumisha, kugira ngo abikwe igihe kirekire atangirika, bityo bakayafata ku ifunguro buhoro buhoro.

Abagabo babiri n'umugore bari mu gishanga. Abagabo bavuye kuroba amahera ari mu base. Amahera ni ubwoko bw'amafi ariko yo aba matoya. Akunze kuribwa cyane n'abana.

Indagara n'isambaza biri mu mashashi ya parasitike. Ni ubwoko bw'amafi, ariko two tuba dutoya, tukaba tuba mu biyaga. Baraturoba abantu bakaturya.

Isamaki bakuyemo ibyo mu nda kugira ngo babone uko bayiteka, iyo uyitetse harimo ibyo mu nda irabiha.

Umugabo wicaye mu bwato ufashe n'ingashya, ubwato n'igikoresho bakoresha bagenda mu mazi ahantu hatari Ikiraro.

Isambaza ziba mu biyaga. Abantu bakunze kuzirya ari mbisi, cyangwa bakazikaranga mu mavuta bakazirya zikafuje.

Isamaki yatunganyijwe neza, iri ku isahani y'umweru hariho umuceri na karoti, bakaba bategereje kuyirya.

Ikiyaga gikikijwe n'imisozi, kikaba gikunze kubamo amafi, n'amahera n'indagara.

Amasamaki yokeje ku mbabura. Isamaki ni ifunguro ryiza abantu bakunda. Ushobora kurirya ryokeje cyangwa se waritetse mu mazi, cyangwa mu mavuta.

Amahera yanitse amahera ni ubwoko bw'amafi akunze kuba mato, akunze kuba mu biyaga, mu migezi akaba akungahaye kuri vitaminini umuntu uyariye amererwa neza.

Isambaza ni ubwoko bw'amafi, zikunda kuba mu kiyaga. Ariko zo ziba ari ntoya cyane ku mafi. Ziraryoha abaturage bakunze kuzirya.

Amafi arimo ubwoko butandukanye, ari mu bikoresho bya palasitike byagenewe gutwara amafi.

Amafi barobye ari ahantu hamwe, ategerejwe kujyanwa ku isoko, amafi akungahaye ku ntungamubiri nyinshi, umubiri w'umuntu ukenera.

Amafi ashanditse ku mugozi. Amafi ni ikiribwa kirimo intungamubiri. Amafi akunda kuba mu biyaga, mu ruzi, mu migezi. Akungahaye kuri vitaminini.

Ubwato bukoze bari kuzirika ku nkombe. Ubwato ni igikoresho bakoresha bari kugenda mu mazi, cyangwa se bari kuroba.

Amafi ari mugatete gatukura, amafi ushobora kuyatwara mu buryo butandukanye: ukuyajandika mu kagozi ukanaganura, cyangwa se ukayashyira mu ukadobo.

Ifunguro riri ku isahani, rigizwe n'umugati uva mu ifarini, ku ruhande hari n'imbuto za amacunga akase..

Umugabo uhagaze ku nkombe z'uruzi. Uruzi rukunze kubamo amafi, isonzi, amahera n'utundi dutoya.

Amafi ari muri firigo, bayashyiramo kugirango atangirika cyangwa ngo yononekare.

Amasamaki atunganyije ari mu ibase ategere gutekwa kugira ngo abantu bayafungure.

Umugabo wicaye mu bwato buri mu kiyaga, akaba afite agatimba yatereye mu mazi ari kuroba.

Isamaki barobye ziri hamwe. isamaki zikunze kuba mu biyaga no mu migezi, cyangwa mu byuzi bazororeyemo. Isamaki zikungahaye ku ntungamubiri kandi ni nziza ku bazirya.

Inkube ni ubwoko bumeze nk'isamaki ,ariko yo ntabwo igira amagaragamba, ikunze kuba mu biyaga no mu nzuzi.

Amafi aba mu biyaga, mu nzuzi, akororerwa no mu bizenga. Amafi ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu, kuko abamo intungamubiri nyinshi, kandi akaryoha.

Ifi ebyiri ziri ku iparato hariho na sereri. Ifi ishobora kuribwa itetse ,bayikaranze cyangwa yokeje.

Ifi iri kumbabura barikotsa, kugira ngo iryohe bongeramo ibindi birungo nk'igitunguru, inyanya n'umunyu.

Ifunguro riteguwe neza riri ku isahani, hariho umukati n'imbuto z'ubwoko bwinshi.

Isamaki ikunze kuba mu biyaga, mu nzuzi. Ikungahaye kuri vitaminini. Ushobora kuyirya uyitogosheje mu mazi, cyangwa uyokeje cyangwa uyikafuje.

Ifi yokeje iri ku isahani, kuruhande hariho indimu. Ifu yokeje kugira ngo iryohere uyirya ashyiraho umutobe w'indimu, kandi imbuto ni nziza ku ifunguro.

Ibyuzi bororeramo amafi. Amafi ashobora kuboneka mu biyaga mu migezi, cyangwa mu byuzi. Abaturage bacukura mu mibande bagashyiramo amafi kugira ngo bayororeremo.

Isambaza zateguwe neza, ni ubwoko bw'amafi ariko buba butoya, butagira amagaragagamba. Akaba ahendutse, bakunda gushyira ku ifunguro rya buri munsi.

Amaperi ni igihingwa kigaburirwa abana bato. Ariko n'abantu bakuru bakirya, kuko kibamo intungamubiri.

Ibi ibireti ni igihingwa gihingwa ahantu hakonje, kikaba gitunganywa hakavamo, umuti wica udukoko.

Ingemwe z'igiti cy'umusave. Umusave ni igiti cyiza kuko kivangwa n'indi myaka. Baragikunda kuko kivamo imbaho zikomeye, zikaba zivamo amadirisha n'inzugi.

Umurima wamatunda ashingiriye, ariko akaba imbuto za yo zikiri ntoto, zitari zera.

Urubingo ni ubwatsi abahinzi borozi bashishikarizwa guhinga kugira ngo barugaburire amatungo yabo aririra mu kiraro. Ni ubwatsi bwiza ku matungo.

Akayira k'umugenderano. Akayira k'umugenderano, kugira ngo gafatwe neza, bateraho ibiti. Byaba iby'imbuto cyangwa byaba ibiti bibazwa.

Garaviye ihondwa mu mabuye, ikubakishwa mu mihanda ikamena beto, ikubaka n'amashu.

Umurima basaruye ibigori igice kimwe, ibindi birahagaze. Bategereje ko igihembwe cyarangira, ngo batere ikindi gihingwa.

Amashuri abana bigamo, inka zitanga umukamo, amata abana bakayanywa, ibiti bitanga umuyaga, akuka keza, hakavamo n'inkwi zo gucana.

Umurima w'amashu uhinze imbere y'ikigo cy'amashu. Amashu ni imboga nziza, abanyeshuri bayafata ku ifunguro ryabo rya saa sita.

Umurima uteyemo ibitoki. Ibitoki birimo inkingi kugira ngo bitagwishwa n'umuyaga. Igitoki ni igihingwa cyiza baragiteka, bakakiryamo imineke, cyangwa bagakamamo urwagwa.

Urugemwe rw'imbuto rutewe mu murima rukaba rusasiye, imbuto ni nziza kuko zivamo intungamubiri, umuhinzi uzifite iyo azijanye ku isoko, zimwinjiriza amafaranga.

Umurima wari uhinzemo ibigori . Ibigorigori rzikabainyanya . Haraguru hakaba hari abantu barimo bari kwiitegereza imbere igikori kitaracyariye.

Umurima utarahingwa. Hari n'uteyemo ibiti. Ibiti ni byiza kuko birwanya isuri, hakavamo ibiti byo gucana, ibiti binini byo kubaza.

Ihene y'umukara iziritse mu ijosi, iri mu rwuri, iri imbere y'urugo. Ihene ni itungo ryororoka, iyo urifashe neza riguha amafaranga.

Umurima w'urutoki uhinzemo ibirayi kijyambere. Ibirayi ni igihingwa ngandurarugo, bikenura umuhinzi wabihinze. Bitanga amafaranga.

Ururabo ruteye hafi y'uruzitiro rw'amatafari ahiye rurandaranda.

Umurima uteyemo ibigori n'insina. Ibigori n'insina ni ibihingwa ngandurarugo. Umuturage wabihinze ntataka ubukene.

Urutoki ni igihingwa kiza, iyo gikuze urakirya ugitogosheje, cyangwa ukaryamo imineke, cyangwa ukakijyana ku isoko ukikenura.

Umurima uhinzemo ibireti , ibireti n'igihingwa ngengabukungu kuko iyo gisaruwe kijyanwa m'uruganda, kigakorwamo umuti wica udukoko.

Ibiti bitewe mu busitani. Urugo ruba rwiza iyo rukikijwe n'ubusitani buteyemo ibiti.

Ihene ziri kurisha mu rwuri. Ihene ni ubworozi bw'amatungo magufi. Akaba atanga umusaruro ushimishije.

Intama za kijyambere ziri kurisha, intama ni itungo ryiza ryororoka rigatanga umusaruro haba ku nyama ubwoya barabutunganya bukavamo imyenda.

Urubingo n'ibigorigori bisandaguje mu murima, urubingo bashobora kurutera barukikije k'uruhande rw'umurima , kugirango rurwanye isuri ku murima.

Ingemwe za avoka, ziri mu bihoho. Avoka barazibangurira, kugira ngo zere vuba, zitange umusaruro vuba, bityo ziteze umuhinzi imbere.

Umurima uteyemo urutoki n'inzuzi. Inzuzi ni igihingwa kirandaranda, kikeraho ibihaza.

Umurima uhinzemo ibitunguru hirya ibishyimbo. Ibitunguru abahinzi bakunze kuhinga, babikarangisha ibiryo bigahumura bikaryoha bigatera apeti.

Umurima w'urutoki , urutoki n'igihingwa ngandurarugo, hari ibitoki biribwa bitetse, ibiribwa imineke , hari n'ibyo bakama bikavamo inzoga.

Imitwaro y'imishingirizo iriho ibishyimbo baranduye, begetse. Bategereje guhuruturaho ibishyimbo, ngo babihure, babitunganye neza.

Umurima wari uhinzemo ibigori. Harimo ibikenyeri, barabitemye babishyira ku ruhande. Ibindi binyanyagiye mu murima. Ibyo bigorigori bivamo inkwi zo gucana.

Ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibiti by'amoko menshi, ishyamba ni ryiza, ritanga umwuka, bityo tugahumeka neza.

Igiti cy'avoka gifite uruyange. Avoka n'igiti cyiza cyera imbuto zikaribwa, cyakura umuhimpa wacyo bakawusatura cyangwa bakawasa hakavamo inkwi zo gucyana.

Ibirayi biri mu ndobo bitogeje. Hari ubifashe mu kiganza uri ku ruhande. Hari n'abandi bari gukora muri iyo ndobo y'ibirayi.

Abantu bari kugenda batereye amasuka ku rutugu ku murima w'ibigori, bakaba bagiye mu muganda wo gukorera ibyo bigori.

Abahinzi bane bari mu murima, bafite amasuka bakaba bari guhinga, bari kwitegura kuzateramo imbuto.

Amacunga. Ni imbuto nziza, zikungahaye kuri vitaminini. Amacunga iyo uyitayeho ukayakorera neza, ukayafumbira, atanga umusaruro wajyana ku isoko, ukabona amafaranga

Umurima uteyemo imbuto z'amacunga. Imbuto ni nziza kuko umuhinzi uzihinze yikenura azijyananye ku isoko akabona amafaranga amuteza imbere.

Amapera ni igihingwa cyera imbuto zikunzwe kuribwa n'abantu. Cyane cyane abana. Kandi amababi yayo avamo umuti.

Umugabo n'umugore bari mu murima wa karoti. Bari kuzikorera kugira ngo zizabe nini, zizabahe umusaruro ushimishije, karoti ni igihingwa cyiza, gikungahaye ku ntungamubiri.

Ihene zororewe mu kiraro barikugaburira ubwatsi bw'urubingo , ihene n'amatungu magufi yororoka ateza umworozi imbere.

Isoko ririmo imbuto zitandukanye. Amacunga ari mu gitebo, imineke ishashe ku ihema, ibase irimo avoka, igitebo kirimo imyembe.

Umugore wunamye mu murima w'imboga ari kuzikorera, imboga ni nziza umuhinzi uzihinze zimuteza imbere akabona n'izo kurya mu muryango we.

Umugore uri mu myaka ari kuyivomerera, mu gihe cy'izuba abahinzi bifashisha ibikoresho byabugenewe bakavomerera imyaka yabo kugira ngo itangirika.

Amatunda ari mu murima ahinze kijyambere, ashingiriye. Amatunda ni imbuto nziza zikungahaye kuri vitamini aribwa imbuto cyangwa agatunganywamo umutobe.

Umugabo uri mu murima w'inyanya wambaye isurubeti y'icyatsi na za ga mu ntoki. ufite inyanya mu kiganza. Inyanya ni imbuto nziza itanga amafaranga.

Umugore ufite ama base mu ntoki n'isuka mu ntoki urukugenda mu murima w'imboga. Imboga ni ingirakamaro ku mafunguro ya buri munsi abanyarwanda bakunze kurya.

Abantu bambaye udupfukamunwa, bari mu murima w'ibigori, bakaba bari gushyiraho imvaruganda.

Ibigori byumye bisharitse ku biti bari kugira ngo byumve neza. Babirya babikozemo impungure cyangwa bakabijyana mu ruganda bakabibetamo akawunga.

Avoka ziri mu dupaniiye twabugenewe, zikaba zigiye koherezwa mu masoko mpuzamahanga.

Imbuto zirunze hamwe z' ubwoko butandukanye hari : inanasi, ipapayi, imineke, wotameroni, avoka, indimu, amacunga n'izindi...

Imbuto z'ikawa zitukuye zisaruye bashyize hamwe, ngo bajyane ku ruganda ruzitunganya, imbuto ni igihingwa ngengabukungu, kivamo amafaranga kugira ngo ateze abahinzi imbere.

Uruzitiro rwubakishije amakoro hejuru hakaba hariho ibyuma bisudiye, harimo ibiti biteyemo by'imbuto kuzitira n'ukugira ngo bacunge umutekano wizo mbuto.

Ibigori bihunguye biri mu mufuka w'akadeyi. Abacuruzi babishyira mu kadeyi kugira ngo bigaragare, abaturage baze kubihaha. Ibigori ni igihingwa ngandurarugo.

Dendo y'isake, ni ubwoko bw'inkoko ariko yo ikaba nini. Dendo igira inyama nyinshi, kandi ikagira amahane menshi iyo irakaye.

Ni umugore wambaye agapfukamunwa, uri guhungira ibishyimbo, ari kubishyira mu kintu cyo kubibikamo.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye: Inyanya, ibitunguru, pavuro n'ibindi biribwa bitandukanye.

Abaturage benshi bafite amasuka, bakaba bari gukora umuganda, basibura umuferege.

Avoka ni imbuto ikungahaye kuri vitamini, kandi ikaba ishobora kwinjiriza umuhinzi amafaranga.

Amashaza ni igihingwa gikunzwe cyane, bashobora kukirya ari urunyogwe cyangwa bakakirya ari amashaza yumye.

Amacunga abiri rimwe rikasemo kabiri. Amacunga ni imbuto nziza ikungahaye ku ntungamubiri, abantu bakunda kurya ku ifunguro rya buri munsi.

Igiti cy'umwembe, umwembe ni urubuto rwiza ruryohera, abana bakunda ndetse n'abantu bakuru. Kikaba gikunda kwera ahantu hashyuha.

Mandarine ziri hamwe, hari n'urwo basatuye kabiri. Mandarine ni urubuto rwiza ruryoherera, rukungahaye kuri vitamini, kandi umuhinzi uruhinga iyo arujyanye ku isoko, abona amafaranga.

Abagore n'umugabo bari gukorera umuceri. Bari gukuramo ibyatsi bibi, kugira ngo umuceri umererwe neza, bazabone umusaruro ushimishije.

Ibishyimbo by'urunyumbu bikunze kugira amabara. Urunyumba n'ibishyimbo bishingirirwa bikaba binini, wabiteka bigahoberana, bikagira amarorwa aryoshye.

Abantu bari kugenda mu murima ukozwemo amatarasi. Amatarasi ni bwo buryo bwizewe bwo kurwanya isuri, ni yo afata amazi neza, ifumbire ikaguma mu butaka.

Intoryi zasaruwe ziri mu gikoresho cyabugenewe cyo kuzitwaramo. Intoryi ziri mu bwoko bw'imboga, bazivanga n'ibindi biryo bakazirya. Zifite intungamubiri kandi ziraryoha.

Ibihaza bitanu by'amabara basaruye, igihaza ni igihingwa cy'ingirakamaro abantu baragikunda kukigereka ku bishyimbo, cyangwa bagakuramo inzuzi bakazanika bakazisekura, bakazivanga mu biryo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bakaba bari kumwe n'umurezi wabo, bakaba bari gutambagira umurima w'imyembe. Bari gukora ubushakashatsi.

Umugore uri mu murima w'ibishyimbo bishingiriye akaba ariko kureba uko bimeze. Akaba yishimye ko bimeze neza.

Abagore bari mu muririma w'ibirayi bakaba bari kureba ko byeze. Umugore umwe yaranduye umugozi w'ikirayi babona hariho ibirayi byinshi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, akaba ari mu murima w'ibirayi. Ibirayi akaba ari igihingwa gitanga umusaruro.

Umugore wambaye isurubeti na bote, akaba ahagaze imbere y'ikiraro cy' ingurube, ari kuyigaburira akanayishyishyira.

Umurima wateguwe neza bagahinga ibishyimbo kijyambere. Abahinzi bakaba barimo bazanye imishingiriro yo gushingirira, bakaba basuwe n'abayobozi.

Urusenda rutukuye. Urusenda kugira ngo umenye ko rweze nuko rutukura NI igihingwa cyiza ,kuko barujyana ku isoko rukabaha amafaranga ,bashobora no kurujyana mu mahanga.

Igiti cy'ipapayi, kiriho amapapayi ahiye n'ayadahiye. Ipapayi ni urubuto umubiri w'umuntu ukenera, rifite intungamubiri nyinshi.

Inka ziri mu rwuri. Inka ni itungo ryiza, iyo waryoroye rigukura mu bukene. Inka zororerwa mu kiraro, cyangwa mu rwuri, inka zishobora kuguha amafaranga,..

Umuhinzi uri mu murima w'ibigori uri kwitegereza niba ibigori bye bitarimo nkonkwa, kugira ngo azaze gutera umuti, bizere neza, itazamubuza kubona umusaruro.

Itunda iyo ryeze riratukura. Itunda ni urubuto rwiza rukungahaye ku ntungamubiri. Ushobora kurirya ako kanya urisoromye, cyangwa bakarijyana ku ruganda, bakaritunganya hakavamo umutobe.

Ibiryo by'amatungo byo mu ruganda, biri mu mufuka. Bigaburirwa inkoko z'inyama, kugira ngo zikure vuba.

Ipera ni igiti cyeraho imbuto ziribwa. Wazijyana no ku isoko, ukabona amafaranga, ukiteza imbere.

Ingemwe z'imbuto ziri mu bihoho. Abaturage b' imbuto bazishyira mu bihoho kugira ngo zitangirika, bazazitere zimeze neza.

Ibitoki byeze basaruye biri mu isoko, igitoki ni igihingwa cyiza giteza imbere umuhinzi, n'uwakiguze ugiye kugicuruza bityo bakabona inyungu.

Ibitoki biri mu isoko, abaguzi bari gupimisha ngo bajye kubiteka ngo babirye.

Umugabo n'umugore bafite uruti rw'umwumbati ruriho ibijumba by'imyumbati, bakaba bishimye bari guseka ko umwumbati wabo weze neza cyane.

Umurima munini uhurijwe hamwe, wateweho icyayi. Icyayi ni igihingwa ngengabukungu cyinjiriza uwagihinze amafaranga, kikinjiriza n'igihugu amadovize.

Isoko rya kijyambere ryibiribwa. Mu isoko habamo imyaka itandukanye. Imbuto za puwavuro, inyanya, intoryi n'ibindi by'amoko yose atandukanye.

Umugabo uvuye kwahira, akaba afite ibyatsi abitwaye ku rutugu, akaba avuye ku byahira ku nkengero z'ikiyaga, akaba ari kumwe n'akana ke bari bajyanye kwahira.

Pwavuro ziri mu mabase zogeje. Ziri hamwe na karoti hejuru y'agafuka k'akadeyi. Byombi bikaba biri mu muryango w'ubuhinzi bw'imboga.

Umugore uri gutera ingemwe z'imbuto, imbuto ni nziza zigira intungamubiri mu mubiri wumuntu, iyo uziriye mu mafunguro yawe ya buri munsi.

Amabobere ni igihingwa, ni igihingwa abahinzi bahinga, kugira ngo kigaburirwe udusimba twitwa amagweja.

Umugabo uri muri pepiniyeri, uri kubangurira imbuto. Imbuto zibanguriye zitanga umusaruro vuba vuba.

Imiteja basaruye ikaba irunzwe hamwe kugira ngo bayipakire bayijyane ku isoko gushaka amafaranga.

Pavuro ni ubwoko bw'urusenda abantu bakunze guhinga barayikunda, iyo uyijyanye ku isoko, baguha amafaranga ukiteza imbere.

Indimu ni imbuto nziza zikungahaye kuri vitamini, zifite vitamini nyinshi kandi ni n'umuti, abantu bakunze kuzifashisha.

Karoti zogeje ni igihingwa gikungahaye ku mavitamini. Abantu bashobora kuzirya ari mbisi kuko zirinda indwara, cyangwa bakazirya zitetse.

Umurima ukozweho amatarasi, amatarasi ni meza kuko arwanya isuri, akavaho ubwatsi bw'amatungo ,wahingamo n'imyaka amasuri ntayitembane.

Urukwavu ruri konsa abana barwo. Urukwavu ni itungo ryiza kuko ribyara kenshi mu mwaka. Rikaba rishobora gukenura umworozi uryoroye.

Umugabo urikurenga inyanya zitukuye mu mifuka, akoresheje agatebo. Inyanya n'igihingwa cyiza umuhinzi ugihinze abona amafaranga.

Ibishushu. Byera ku rugozi rurandaranda, bikaribwa bigeretse ku bishyimbo, cyangwa bakabikatamo imboga. Bifite intungamibiri nyinshi.

Umugore wishimye uri guseka, wikoreye ibase irimo ingemwe z'imbuto, ugiye kuzitera mu murima. Imbuto ni igihingwa cyiza cy'ingirakamaro, umuhinzi ugihinze kimuha amafaranga.

Ibirayi bakuye mu murima barunze hamwe. Bishobora kuribwa babitogosheje mu mazi cyangwa bagakoramo ifiriti.

Umugore uri mu murima wa mashu, ufite urushu mu ntoki wishimye uri guseka, kuko amashu ye yatanze umusaruro mwiza, amashu n'imboga nziza abahinzi bakunze guhinga kijyambere.

Ibiganza bifashe urusenda. Urusenda ni igihingwa cyiza abantu bakunda gushyira mu biryo, urusenda ushobora kururya imisogwe cyangwa ukarujyana mu ruganda bakarutunganya ifu bakajya bayirya buhoro buhoro.

Igiti cya avoka gifite avoka. Avoka ni imbuto nziza irimo intungamubiri. Abantu bakunda kuyirya, ikenura n'umuhinzi wayihinze, iyo ayijyanye ku isoko akuramo amafaranga.

Abagore babiri bari mu murima w'icyayi bari gusarura. Bari gushyira mu gitebo. Mu Rwanda abantu bose bagomba gukora imirimo itandukanye, nta kuvuga ngo uyu ni numugore, uyu ni umugabo. Bose bagomba kubikora.

Umugore uri mu murima ufashe isuka ari guhinga. Guhinga ni byiza kuko bifitiye abahinzi akamaro, urahinga, ugatera imbuto abanyarwanda bakabona ibibatunga.

Ni ibirayi biri ahantu habugenewe hacururizwa, bikaba bitekwa bitogosheje, cyangwa bakabitekamo amafiriti.

Amatunda ahinze mu murima. Amatunda ni urubuto rukungahaye ku ntungamubiri. Arashingirirwa, akarandaranda, akera imbuto.

Amapera ni imbuto ziribwa, zikaba zifite akamaro mu mubiri zikungahaye kuri vitamini, kandi n'amababi yazo avamo umuti.

Amateke ni igihingwa cy'ikinyamafufu gitera imbaraga, gitekwa gitekwa cyanwa se bakacyotsa. Umuntu wakiriye agira imbaraga zo guhinga.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ingofero y'umuhondo n'agashati k'ubururu, akaba ari muri depo y'umuceri, umuceri n'igihingwa abantu bakunda.

Soya ni igihingwa abahinzi bahinga. Gikungahaye kuri vitamini, bakaba bagikaranga bakazirya zikaranze, cyangwa se bakabeteshamo ifu bakayivanga n'ibindi biryo.

Umurima w'icyayi. Hari abantu barimo bari gusarura icyayi. Icyayi ni igihingwa ngengabukungu, baragitunganya bakacyohereza mu mahanga, kikazanira igihugu amafaranga.

Indimu yeze ikasemo kabiri, indimu ni urubuto rukungahaye ku ntungamubiri, kandi ivamo imiti, abayihinga ibagirira akamaro, kuko bayijyana ku isoko ikavamo amafaranga.

Umugore uri guseka, wishimye, ufashe ingemwe z'ibiti mu ntoki, ziri mu bihoho, ugiye kuzitera. Gutera igiti ni ingirakamaro, kuko giteza uwagihinze imbere. Iyo gikuze havamo imbaho.

Ni umuri umurima w'umuceri, harimo abantu babiri bari gusarura umuceri, bakaba bari gukora akazi ko gusarura umuceri.

Umugabo ufashe ibigori mu maboko, uvuye kubivuna bashobora kubirya byokeje cyangwa bitetse.

Umugore wazindutse karekare, wagiye guhinga yifashishije isuka. Akaba ari guhingira imbuto mu murima we. Hari n'abakoresha amamashini.

Imiteja ni igihingwa gihingwa hakaba ishingiriwe n'idashingiriwe bakabirya. Imiteja ikungahaye kuri vitamini ikaba iri mu myanya y'imboga.

Inanasi ni urubuto ruryoherera ,kandi iyo barujyanye mu ruganda bakarutunganya havamo umutobe. Ikungahaye kuri vitamine, umuhinzi uyihinga iyo ayijyanye ku isoko imuha amafaranga.

Umurima w'ibigori bihinze kijyambere. guhinga kijyambere ni byiza, kuko bitwara imbuto nkeya, kandi bigatanga umusaruro ushimishije.

Abantu benshi bari mu isoko ry'ibiribwa by'amoko atandukanye, hakaba harimo n'intonore zikomoka ku bishyimbo, zikaba ziri ku ntara.

Abagore babiri bari mu murima, umwe akaba ahetse umwana, afite isuka mu ntoki. Isuka ni igikoresho abahinzi bifashisha bari guhinga.

Urugemwe rw'ipera. Ipera ni urugemwe ruhingwa rukera imbuto. Umuturage azijyana ku isoko akikenura, akabonamo amafaranga. Kandi amababi y'ipera ni umuti.

Puwavuro ni ubwoko bw'urusenda abahinzi bakunda kuruhinga, kuko rubinjiriza amafaranga menshi.

Inkoko umworozi ari kugaburira. Iyo inkoko uzigaburiye neza zitanga umusaruro ushimishije. Waba uw'inyama, cyangwa uw'amagi.

Ibireti ni igihingwa gikunda ahantu hakonje, iyo cyeze baragisarura bakakijyana mu ruganda hakavamo umuti wica udukoko.

igihaza cyasaruwe. Igihaza bakirya gitogosheje, cyagwa bagakuramo inzuzi bakazisegura, bakazirya mu bindi biryo. Igihaza ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu.

Umugore ufite imboga mu ntoki, mu gikoresho cyabugenewe, uzijyanye ku isoko, imboga ni nziza, zikungahaye ku ntungamubiri, bakunze kuzirya ku mafunguro ya buri munsi.

Umugabo uri mu murima we w'ibigori, ibigori n'igihingwa cyiza kuko giteza imbere umuhinzi wa gihinze. Iyo cyeze ari kibisi baracyotsa, cyangwa bakagiteka.

Avoka ihiye yateguwe ku meza, avoka ni urubuto rufite intungamubiri nyinshi umuntu akenera. Bakunze kuyitegura ku mafunguro barya buri munsi.

Ibisheke byegetse ku ikoro bari gucuruza. Ibisheke ni byiza birakunzwe, kuko bigira umutobe uryohereye. Umuhinzi wabihinze bimuteza imbere kuko bizana amafaranga.

Amapera ni igiti cy'imbuto zikunzwe kuribwa n'abana. Amapera ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu, hari amapera agira mu nda h'umutuku, n'ayagira mu nda h'umweru.

Amacunga yeze ari mu gitebo. Amacunga ni imbuto zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi. Igitebo ni igikoresho abahinzi bakunze kwifashisha, bari gusarura imyaka ngo bajyane ku isoko.

Amatunda ni igihingwa gihingwa kikera imbuto abana bakunda kurya, kikavamo n'umutobe ukungahaye ku ma vitamine.

Amatunda ari mu ibase, yasaruwe yeze. Ategereje abaguzi cyangwa gutunganywa ngo avemo umutobe.

Abantu batandatu bari mu murima uhinzemo ibigori n'ibishyimbo. Bakaba bari gutunganya, bari gusarura ibirayi.

Amatunda ni igihingwa gishingirirwa, kugira ngo umenye ko ryeze, ni uko igihu cya ryo gihindura ibara.

Abagore batanu bafite amasuka, bari guhingira imbuto bateye mu murima wabo, kugira ngo zibe neza bazabone umusaro.

Imbuto y'icunga. Icunga ni ryiza rikungahaye ku ntungamubiri abantu bakenera, kandi riraryoherera, abana bakunda kurirya, kubera uru ururyohere.

Abantu bari gutangiza igihembwe cy'ihinga, hakaba hari umugabo ufite ifumbire y'imborera agiye gushyira mu mwobo wo guteramo igihingwa.

Avoka ebyiri zeze kandi zihiye imwe isatuyemo kabiri. Avoka ni igihingwa cyiza cyera imbuto zikunzwe, haba ku isoko cyangwa n'inyuma y'igihugu.

Wotameroni. Umukobwa arikuyikata ngo ayirye, wotameroni ni urubuto ruribwa rudatetse. Rukaba rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Abantu batandatu, abagabo batatu n'abagore batatu bari mu murima w'umuceri , bari kwitegereza umuceri wabo niba weze ngo bazawusarure.

Igiti kiriho imbuto za voka zitarizera. Avoka ni igihingwa cyiza kuko cyera, imbuto bakazijyana ku isoko ndetse, bashobora no kuzijyana mu mahanga.

Umugabo uri mu umurima w'amatunda. Amatunda ni igihingwa gishingirira kikarandaranda, kikera imbuto nyinshi. Imbuto z'amatunda ziteza imbere umuhinzi wazihinze. Azijyana ku isoko, akabona amafaranga.

Avoka ziri kurutaro, avoka ni urubuto abantu bakunda gufata ku mafunguro yabo ya buri munsi.

Amapapayi n'imbuto ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi , akarusho imbuto zayo ushobora gukoramo umuti.

Abagore bari mu murima w'ibirayi, bakaba bari kuvomerera, kuvomerera ni uburyo bwiza bwo mu izuba, kugira ngo ibirayi bituma.

Intoryi basoromye, intoryi ni igihingwa cyo mu bwoko bw'imboga bakunda kuvanga mu biryo. Umuhinzi wazihinze azijyana ku isoko, akiteza imbere.

Umurima ukozweho amaterasi uteweho ibiti birwanya isuri. Amaterasi ni bwo buryo bwiza bwo kurwanya isuri. Iyo uyahinzeho imyaka yera neza.

Abagore bari kuvomerera, umurima w'imboga. Abahinzi b'imboga, baravomerera mu gihe k'izuba, kugira ngo imboga zabo zitononekara.

Ibigori biri mu murima ni igihingwa gishobora kuribwa ari kibisi, cyangwa cyumye, kikavamo umutsima.

Abagore batatu bari iruhande rw'imitwaro y'ibisheke, bakaba bagiye kubijyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga yo kwikenuza mu ngo zabo.

Umugore uri mu murima w'amatunda. Amatunda ni imbuto. Ni imbuto nziza zishimishije, yera umusaruro mwinshi. Ajyanwa mu ruganda agatunganywa hakavamo umutobe, ukaba wagemurwa no mu mahanga.

Inka za kijyambere ziri mu rwuri. Inka ni itungo ryiza rikenura umworozi uryoroye mu buryo bwinshi.

Avoka zeze, zasaruwe, ziri mu gikoresho cyabugenewe. Kugira ngo bijyanwe ku isoko, binjirize abahinzi amafaranga.

Igihaza barakirya gitogosheje, cyangwa bakagikuramo inzuzi bakazikaranga, bakazisekura bakazivanga n'ibindi biryo bakarya.

Inka za kijyambere ziri mu rwuri, inka ni itungo ryiza abahinzi bakunze korora, kugira ngo bakureho ifumbire y'imborera.

Abantu bari mu murima w'icyayi bakaba bari kugisarura. Icyayi ni igihingwa ngengabukungu, cyinjiriza abagikoramo amafaranga.

Ibigori biri mu murima, ibigori iyo byeze biracurama. Ibigori ni igihingwa cy'ingirakamaro kuko kitabura mu gikoma.

Inkwavu z'umweru z'inzungu ziri mu kibuti, ziri kurya ubwatsi, inkwavu ni itungo ryiza, ryororoka, kuko zibyara utwana twinshi. Kandi zikabyara kenshi ku mwaka.

Umuhinzi uri mu murima w'ibigori byumye. Kugira ngo umenye ikigori cyumye, ni uko kiba gicuramye, ari kubisarura ngo abijyane mu bwanikiro, byume neza maze bizatunganywe.

Umwumbati bakuye, akaba ari igihingwa kigaragara ko kugikunda kwera ibinyabijumba byinshi. Kikaba gikungahaye no ku ntungamubiri.

Intoryi basoromye, bashyize hamwe. Intoryi ni imboga abaturage bakunze kurya. Bazijyana ku isoko zikabateza imbere.

Ibiti ni ingirakamaro bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka. Hari ibiti by'imbuto bitanga imbuto ziribwa.

Umugore uri kugosora, iyo usaruye imyaka urayigosora ugakuramo ibipfu nk'imyanda ukayibika itunganye neza.

Inzuzi ziri ku isahani zateguwe neza, izuzi zifite intungamubiri nyinshi ziva mu gihaza.

Amasaka ni igihingwa gikungahaye kuri vitamini, bakunda kunywamo igikoma, cyangwa bakinika bagakora amamerara bakengamo amarwa umusururu.

Ibigori basaruye biri mu bwanikiro kugira ngo byume neza, bizavemo imbuto nziza cyangwa akawunga karyoshye.

Ibishyimbo by'imiteja, ibishyimbo bigufi. Bitanga umusaruro kandi Abanyarwanda barabikunda ku ifunguro ryabo rya buri munsi.

Imodoka ipakiye imifuka irimo imyaka. Iyo umuhinzi yejeje imyaka ashaka amafaranga, ayigurisha abacuruzi, nabo bakayitembereza hirya no hino bari gucuruza.

Ubunyobwa bwanitse, umuhinzi yanitse kugira ngo abone uko abubika neza.

Amasaka, amasaka yeze ni igihingwa giteza imbere umuhinzi kuko abantu bakunda kukibetesha bakivanze n'izindi mpeke bagakoramo igikoma.

Abagore babiri bafashe intara bari kugosora ibishyimbo by'imishingiriro. Hagati hari undi ufashe ibishyimbo, ari kwerekana ko ari byiza. Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni bwiza, kuko ibishyimbo ari igihingwa ngandurarugo.

Amahundo y'amasaka basaruye yanitse. Amasaka ni ingirakamaro. Bayakoresha mu buryo butandukanye. Bakuramo igikoma, bagakuramo urubetezi rw'inzoga, bakayinika akavamo amamera y'umusururu.

Ibiryo by'amatungo biri mu mifuka. Iyo amatungo abiriye akura vuba agatanga umusaruro.

Ibishyimbo bigufi by'uruyange biteye ku murongo. Iyo biteye ku murongo byera neza kandi bigatanga umusaruro mwinshi.

Umuhinzi uri mu murima w'umuceri, ari kuwukorera neza. Umuceri ni igihingwa cyera umusaruro ushimishije, bityo kikamuteza imbere, gikunda kuba mu mazi.

Umurima w'imboga ,imboga ni igihingwa cyiza cy'ingirakamaro gikungahaye ku ntungamubiri ,abaturage bakunda kuzirya ku mafunguro yabo ya buri munsi.

Ubunyobwa buri ku ruti rwabwo. Ubunyobwa baraburya babukaranze, cyangwa bakabujyana nko ku isoko bugatanga amafaranga, bugakenura ababuhinze.

Umusore wicaye uri guhungura ibigori mu ibase, iruhande y'ibase, hari amahundo menshi y'ibigori. Ibigori ni igihingwa cyiza, ushobora kubirya impungure cyangwa ukabitesha ifu y'umutsima.

Amahundo y'amasaka. Amasaka ashobora kuvungwa akanikwa, agakorwamo urubetezi rubetera inzoga y'urwagwa, cyangwa akinikwa akavamo amamera akengwamo umusuru.

Amahundo y'ibigori. Ibigori bifite amabara basaruye bitonoye, bashyize ahantu ngo byume neza.

Umugore ufite intara uri kugosora imyaka, kugira ngo akuremo imyanda, ashobore kuyibika itunganyije.

Ubunyobwa bw'impeke, ubw'ifu, ubunyobwa bashobora kuburya bukaranze, cyangwa ifu bakayivanga mu yandi mafunguro.

Ibishyimbo ni igihingwa abaturage b'u Rwanda bakunze guhinga. Hari ibyo bahinga by'imishingiriro, hakaba n'ibyo bahinga bidashingirirwa, bakaba bakunze kugikoresha ku ifunguro rya buri munsi.

Ubunyobwa buri mu gikoresho cyabugenewe. Ubundi budatonoye buri iruhande hepfo. Ubunyobwa ni ingirakamaro. Buteza imbere ababuhinze. Babujyana ku isoko, bakabonamo amafaranga.

Soya ni igihingwa gikungahaye ku ma vitaminini. Bashobora kukirya gikaranze, cyangwa se kikavamo amavuta.

Igihwaga ni igihingwa cyiza gikungahaye kuri vitamini. Bakijyana mu ruganda bagakuramo amavuta, cyangwa impeke za cyo ukazikaranga, ukazisekura, ifu ukayivanga mu biryo.

Ibiryo by'amatungo biri mu mifuka y'utudeyi bikaba biri aho babibika. Ibiryo by'amatungo bituma amatungo akura neza agatanga umusaruro vuba.

Amasaka ari mu murima. Amasaka ni igihingwa cyiza kuko Abanyarwanda bakunda kuyahinga. Avamo igikoma, akavamo imbetezi z'inzoga, kandi akungahaye kuri vitamini.

Ibishyimbo biri mu mufuka. Ibishyimbo ni igihingwa cyiza, abanyarwanda babirya ku ifunguro rya buri munsi. Iyo umuturage yejeje ibishyimbo, abijyana ku isoko akabona amafaranga, bikamuteza imbere.

Ibishyimbo by'amabara, ibishyimbo ni igihingwa abahinzi bakunze guhinga ni ingirakamaro ku bahinzi, kuko iyo babijyanye ku isoko cyangwa bakabirya bibagirira akamaro.

Umurima uhinzemo amasaka, akaba yeze, harimo umugabo utangiye kugesa amasaka ngo bayasarure, bayanike yume.

Inzuzi ziri kumera ni igihingwa kirandaranda kikeraho ibihaza bakunda bakabirya bitogosheje, cyangwa cyakwera bagakuramo inzuzi bakazikaranga bakazihekenya.

Ingano ni igihingwa gikunda mu misozi miremire, impeke zazo bashobora kuzirya ari mbisi, cyangwa bakazishyira mu ruganda hakavamo ifarini ikorwamo imigati.

Ibishyimbo bifite ibara ritukura. Ni igihingwa ngandurarugo. Iyo umuntu afite ibishyimbo aba ari umukungu, ibishyimbo bihora ku ifunguro rya buri munsi.

Abagabo babiri bambaye ibisurubeti by'ubururu, bari mu murima w'imbuto zabo zihinze ku turongo bari kuzikorera neza.

Impeke z'igihwagari basaruye, igihwagari ni igihingwa cyiza gikungahaye kuri vitamini, kivamo amavuta, bakakirya imbuto bazikaranze.

Soya yumye ni igihingwa cyiza gikungahaye kuri vitamine, bayijyana mu ruganda bakayitunganya, bagakuramo amavuta cyangwa bakayikoramo tofu.

Ibishyimbo n'ibigori, ibishyimbo biri mu gitebo no mu ibase, ibigori bikaba mu ibase, bikaba biteretse mu isoko bitegereje kugurishwa, kugira ngo umuhinzi wabisaruye abone amafaranga.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ingofero y'umuhondo, akaba ari ahantu bahunika imbuto zo kuzatera mu gihe cy'ihinga.

Umurima uteguwe neza, uhinzemo udutabo turimo imbuto. Iyo umurima uteguwe neza, mu buryo bwo kurwanya isuri, ngo idatembana izo mbuto.

Ibishyimbo biri mu mifuka buri bwoko mu wawo mufuka. Ibishyimbo ni igihingwa gikungahaye ku ntungamubiri, umuturage arya ku ifunguro rya buri munsi.

Ibishyimbo by'uruyange n'imiteja, ibishyimbo bimanza uruyange hagakurikiraho imiteja, ni igihingwa ngandurarugo buri munyarwanda ahinga kandi bakakirya ku mafunguro ya buri munsi.

Umutiba usakariye uteretse ku mabuye , n'igikoresho abaturage bahunikamo imyaka basaruye , kikarinda imyaka yabo guhura n'imbogamizi.

Umugabo ufashe amahundo y'amasaka mu ntoki ,amasaka hari ubwoko bwinshi, hari amasaka atukura ,hari amasaka y'umweru ,amasaka y'umweru agemurwa kuri burarirwa bakayasimbuza inzoga zo mu ruganda.

Ubunyobwa bukaranze, bakuyeho ibihu, bakaba bategereje kuburya. Ubunyobwa abantu bakunda kubuhekenya, buraryoha cyane.

Ibishyimbo, umuceri, soya, amasaka, ibigori ni ibihingwa ngandurarugo, abahinzi bakunze kubyifashisha ku mafunguro yabo ya buri munsi.

Ingano ni igihingwa ngandurarugo. Zikunze guhingwa mu misozi miremire, zivamo igikoma, bakazinyuza mu ruganda zikavamo ifarini bakoramo imigati.

Ubunyobwa butonoye, bwanitse, kugira ngo bwume babujyane ku isoko, cyangwa babukarange, babusekure bavange mu biryo. Ubunyobwa ni bwiza, bukungahaye kuri vitamine.

Ibishyimbo biri mu mabasi harimo n'udukoresho two kubirenga, kugira ngo umuhinzi amenye ibyo yasaruye bityo abike umusaruro we azi neza ibyo yejeje.

Ni imifuka y'utudeyi irimo ibiryo by'amatungo. Babigaburira amatungo kugira ngo akure neza, atange umusaruro ushimishije.

Ibishyimbo biri ku ihema, bakaba bari kubirenga ku tugemeri kugira ngo bamenye umusaruro wavuyemo.

Ibigori bimanitse ku biti, kugira ngo bikomeze kuma neza bitangirika, bizavemo umutsima uryoshye.

Abagabo babiri bari guhura ibishyimbo. Ibishimbo iyo byumye barabisarura, bari kubihurira ku ihema kugira ngo hatajyamo imyanda.

Ubunyobwa budatonoye basaruye, ubunyobwa ni igihingwa gifitiye abahinzi akamaro, kibateza imbere gikungahaye kuri vitamini.

Ni ibigorigori ba bahunguyeho impeke, bisho bishobora kubikoresha uri kubicana, cyangwa bikavamo ibiryo by'amatungo.

Umuhinzi uri mu murima w'imboga, azanye ifumbire y'imborera. Ifumbire y'imborera ni nziza ku mboga, iyo uyishyizemo itanga umusaruro uhagije.

Ibiryo by'amatungo biri mu mifuka, iyo amatungo uyagaburiye neza ukayaha ibyatsi ukarenzaho ibiryo akura neza akaguha umusaruro ushimishije.

Ibishyimbo byumye biri mu mifuka. Ibishimbo bigira amabara atandukanye. Ibishyimbo ni ibihingwa ngandurarugo, bikunze kuba mu masoko atandukanye.

Ingano ziri mu muririma, ingano ni igihingwa ngandurarugo, ingano zivamo igikoma cyangwa bakazijyana mu ruganda ,rukazitunganya hakavamo ifarini ikorwamo imigati.

Imiteja iri mu gapaniye ubwoko bubiri. Imiteja ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu, bayirya itetse, cyangwa bakayijyana no ku isoko ikinjiza amafaranga.

Ubunyobwa budatonoye basaruye, hakaba hari umuntu uri kuburobanura ngo akuremo ubwapfuye ,abike ubumeze neza, kugira ngo bashobore kubuhunika neza.

Umugabo uri gusunika igare, rihambiyeho umutwaro wa soya avuye gusarura, igare ni igikoresho umuturage yifashisha mu mirimo ye ya buri munsi, kugirango kimugabanyirize imvune yo kwikorera.

Ikiganza gifashe ubunyobwa umuhinzi avuye gusarura, ubunyobwa n'igihingwa kerera munsi y'ubutaka, iyo ugihinze neza gitanga umusaruro ushimishije.

Ibiryo by'amatungo biraho babivangira, iyo babigaburiye amatungo akura neza agatanga umusaruro ushimishije.

Inkaranka zitonoye. Inkaranka ni igihingwa ngandurarugo. Zifite intungamubiri umuntu akenera. Zivamo n'amavuta. Kandi ziraryoha.

Umurima w'amasaka. Amasaka ni igihingwa cyera mu Rwanda hose, amasaka ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu, havamo igikoma, bakayimika hakavamo amamera.

Imisorwe y'ibishyimbo bidatonoye, ikaba iri mu gisanduku buri bwoko ukwabwo, buri bwoko ukwabwo.

Imbuto z'ibihwagari ziri mu mufuka w'igunira. Igunira ni umufuka abahinzi bahunikamo. Cyangwa bakawutwaza umusaruro wabo.

Inzu y'ubuhunikiro bwa kijyambere bw'ibigori. Iyo uhunitse muri ubwo buhunikiro, ibigori bibungwabungwa neza ntibyangirike. Bityo hakavamo ifu nziza. Iruhande rw'iyo nzu haparitseho igare.

Ibihwagari basaruye, bihunguye, biri mu ibase, hari n'ibindi bidahunguye. Igihwagari ni igihingwa gifite intungamubiri nyinshi, kandi kivamo amavuta.

Inka ziri kurya ibyatsi ,inka ni igisimba gitanga amafaranga, iyo yabyaye abana bakanywa amata ,cyangwa wayigurisha bakarya inyama.

Inka za kijyambere abashumba bari gushora amazi. Zigomba kurya ibyatsi, zikanywa amazi, kugira ngo zibeho neza, zitanga umusaruro uhagije.

Inkoko umworozi wazo ari kugaburira. Inkoko ishobora gutanga umusaruro w'amagi cyangwa inyama.

Inka ya kijyambere, iri mu kiraro cya kijambere. Inka ni nziza kuko itanga amata, igatanga inyama, umworozi uyoroye akiteza imbere.

Inka nyinshi za kijyambere ziri mu rwuri, zambaye n'amaherena ku matwi. Inka zitanga umusaruro ku mata, impu bakazigurisha zigakorwamo inkweto n'ibikapu.

Inkwavu ziri kurya ibyatsi, hari ibiganza biri kuzigaburira. Inkwavu ni itungo ryororoka ritanga amafaranga menshi, kuko ribyara vuba vuba.

Ihene nyinshi ziziritse ku biti harimo n'abantu bari kuzireberera, ihene ni ubworozi bwiza butanga amafaranga ugurishije utwana zabyaye cyangwa ukarya inyama.

Umugore wishimye, uhagaze imbere y'ikiraro cyingurube. Ingurube ni itungo ryiza ryororoka vubavuba.

Inka y'ikibamba yororewe mu kiraro, inka zororwa mu buryo bwinshi hari izororerwa mu rwuri, n'izororerwa mu biraro.

Inka za kijyambere ziri mu rwuri, hari n'abantu bari kuzitegereza. Ni itungo ryiza ritanga umukamo, ndetse n'inyama.

Intama eshanu harimo imwe iziritse, haruguru harimo igitama kinini cya kizungu, haruguru yaho hari n'ikiraro.

Umuveterineri uri gukingira ihene, gukingira bituma amatungo adafatwa n'uburwayi.

Veterineri wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite ibikoresho byabugenewe agiye gutera intanga mu nka.

Inka y'ikimasa ifite amahembe manini. Ikaba iri mu rwuri iri gutambagira.

Veterineri urugukingira inka, hari abagabo babiri bamufashije inka kugira ngo ayikingire neza, gukingira inka ni byiza kuko birinda inka uburwayi.

Inkoko z'amagi ziri aho zororerwa, hari uburiro n'aho zinywera amazi.

Inkoko z'umweru ziri aho zororerwa. Inkoko z'inyama. Inkoko z'inyama zitanga umusaruro vuba vuba, kuko batangira kuzirya zimaze amezi atatu.

Umugabo wambaye ishati itukura, wambaye ingofero y'umukara, ufite agapfukamuwa ku kuboko, wambaye isaha ku kuboko, uri kugaburira inkwavu ziri mu kiraro cya kijyambere.

Inka nziza ya kijyambere ihagaze mu rwuri. Inka ni itungo ryiza iyo ribyaye ugurisha amata , ukagurisha inyana, inka itanga n'ifumbire.

Inyama zikase ziteguwe bagiye guteka. Inyama ni nziza zikungahaye kuri vitamini.

Ingurube y'imfizi ya kijyambere iri mu kiraro. Hari abantu bari kuyireba bambaye amasurubeti, ubupfukamunwa, n'uturindantoki. Bari kugira ngo bayereke...

Inka iri mu reuri iri kurisha iri kumwe n'inyana yayo, ikaba yarabyaye itanga umusaruro mu buryo butandukanye.

Inka iri mu kiraro cya kijyambere, hari aho kurira n'aho kunywera ndetse n'aho kotera izuba ndetse ikaba iri kunywa n'amazi.

Ababyeyi bicaye bafite abana, hakaba harimo umugabo hagati yabo, uri kubigisha uburyo bwo kwita, ku bana babo.

Inkoko ibiri inkokokazi n'isake , iyo inkoko iri gutera amagi isake irayishonda , kugira ngo amagi ataba amahuri , bityo inkoko zikororoka.

Inkoko y'isake, isake ni yo ishonda inkokokazi kugira ngo amagi ataba amahuri, inkoko zikororoka zikavamo udushwi.

Abaveterineri bambaye udupfukamunwa, amataburiya y'icyatsi, bakaba bari gukingira inka ziri mu gipangu.

Ingurube iri kurya ibiryo. Ingurube ni itungo ryiza, kandi ryororoka kuko ibyara ibyana byinshi iyo uyifashe neza.

Inka za kijyambere ziri mu rwuri, inka ni itungo ryiza rikenura aborozi bazoroye. Bagurisha amata bakabaga inyama n'impu zigakorwamo inkweto, ibikapu, imikandara.

Inkoko za kijyambere ziri aho zororerwa. Inkoko ni itungo ryiza uriye amagi yazo ugira ubuzima bwiza, warya inyama bikaba akarusho.

Inkok ziri mu nzu bazororeramo. Inkoko ni itungo ryororoka vuba. Rigatanga umusaruro vuba, kuko zitera amagi, bakazirya n'inyama.

Umuntu ufite terefoni mu ntoki, Imbere ye hakaba hari inka. Izo nka akaba ariko kuzifotora akoresheje terefoni, kugira ngo afate amafoto ya zo azibike muri icyo cyuma cy'ikoranabuhanga.

Inkoko zitera amagi, umworozi wazo wambaye isurubeti y'icyatsi, ateruye ngo yumve ibiro zifite.

Ingurube iri konsa ibyana byayo. Ubworozi bw'ingurube ni bwiza kuko buteza umworozi imbere. Ingurube ni nziza kuko ibyara kabiri mu mwaka.

Inka ibyiri zibihogo imwe y'ikimasa ya hemetsek ifite iherena ry'umuhondo ku gutwi. Inka n'itungo ryiza iyo uryoroye neza riguteza imbere.

Umworozi w'inka ari gukama amata, amata ni ikinyobwa gikungahaye kuri vitamini nyinshi. Umworozi w'inka amata amukura mu bukene.

Veterineri wambaye itaburiya y'umweru washyize amarinete mu mpanga, ufite ikibwana cy'ingurube mu ntoki wasuye umworozi wa kinyamwuga, kugira ngo arebe ingurube ze uko zimeze.

Ingurube nziza ya kijyambere iri mu kiraro cya kijyambere. Ingurube zigira ubwoko bwinshi. Hari izigira amabara y'umweru n'umukara, n'izigira amabara y'umweru gusa.

Amatungo yabazwe akaba amanitswe mu ibagiro. Inyama ziri mu ibagiro ziba zitunganyijwe neza, nta mwanda. Bakazirya zidafite umwawanda.

Inka z'inyambo, ni inka nziza zitanga umuko. Abaturage bakoze ubukwe, bakunze no kuzikoresha mu birori bishimisha.

Inkoko z'umweru z'inyama ziri mu nzu zororerwamo zifite uburiro n'ubunywero. Zitanga amafaranga vuba kuko zikura vuba.

Inka za kijyambere ziri mu rwuri. Inka ni itungo ryiza rishimishije. Ritanga amata, rigatanga ifumbire y'imborera, rigatanga n'inyama.

Ingurube ziri mu kiraro, ziri gusaba ibyo kurya. Ingurube ni itungo ryiza rivana uwaryoroye mu bukene, rikamuha amafaranga binyuze ku byana zabyaye, n'ifumbire y' imborera.

Inka y'ikibamba iri ahantu hazitiye. Inka ni itungo ryiza ritanga umukamo, rigatanga n'inyama. Bityo abanyweye amata yayo bakagira ubuzima bwiza.

Dendo ni inkoko zororerwa mu rugo, zikaba nini, zigatanga umusaruro nk'amagi n'inyama.

Inuma ziri mu bwoko butandukanye, hari inuma ziba mu gasozi hari n'izororerwa mu rugo zikinjiriza aborozi amafaranga.

Inkende ni udusimba dukunze kuba muri pariki, tukaba twicaye ku giti nk'umuryango ,dukunda kurira ibiti.

Nyirabaraza ni ubwoko bw'igisiga kiguruka, ikunze kuba mu ishyamba ikagira urunwa rurerure, ikunze kugira ibara ry'umukara.

Inyoni iri mu cyari igiye gutera. Inyoni zitera amagi zikayararira, zikayaturega, hakavamo udushwi kugira ngo zororoke.

Umurima urimo inyoni. Hirya y'uwo muririma hateyemo amapapayi n'insina. Ipapayi ni imbuto nziza ifite intungamubiri abantu bakenera. Insina yera igitoki kikaribwa.

Umusure ni inyoni ihagaze ku giti. Ikunda kona indabo zo ku biti, imishogwe yo ku myaka . Ni inyoni ikunda ibintu by'indabo n'imbuto.

Umushwi w'imbata, imbata iri mu bwoko bw'inkoko, ariko yo ikunda kwibera mu mazi.

Ni inyoni y'inyombya ihagaze ku giti ikunda kugira urusaku rwinshi kare kare mu gitondo niyo ibyutsa abantu.

Urukwavu ruri mu murima, ruri kurya ibyatsi .Urukwavu ni ingirakamaro kuko rubyara vuba vuba, kandi rukabyara ibyana birenze bibiri ,rutanga umusaruro ku barworoye.

Inyoni ihagaze ku itabi ry'igiti. Ni inyoni yitwa igishwi. Igishwi ni inyoni ikunda gutambagira, igatoragura hafi y'amago no mu myaka, ikarya indabo z'imyaka.

Umuhari ni igisimba cyo mu ishyamba cy'inkazi gikunda kurya inyama.

Inyoni ihagaze mu giti cy'amapera. Amapera ni urubuto rukundwa n'abana, ariko n'inyoni zigakunda kuyona, kuko aryoherera.

Inkende ni inyamaswa iba hose, haba mu ishyamba, haba mu biti, haba ku butaka. Igakunda kurira ibiti cyane iby'imbuto kugira irye imbuto.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti. Inyoni ni ikiguruka gitangaje, kiri mu bidukikije.

Impara ziri mu ishyamba akaba imbere yazo ikigore n'ingabo biri kwimya kugira ngo zororoke zikomeze zigwire zisagambe.

Imbeba ni agasimba konona. Kaba hanze cyangwa mu nzu. Uburyo bwo kukarwanya ni ukugatega n'umutego cyangwa ukagaha umuti wagenewe kwica udukoko.

Igisimba kitwa imbwa. Ni igisimba abaturage borora, kugira ngo kibafashe gucunga umutekano w'ingo zabo, n'ibintu byabo.

Ingagi iryamye mu giti. Ingagi ni igisimba gikundwa kurebwa na ba mukerarugendo, kikinjiriza igihugu amafaranga.

Isha ni inyamaswa yo mu ishyamba, akaba ari inyamaswa izi kwiruka cyane. Abahigi bakunda kuyihiga ngo babone inyama zayo bazirye.

Imbata ni itungo rijya kumera nk'inkoko. Ikunda kuba ahantu hari amazi. Irya ibyatsi n'ibindi bisigazwa.

Icyari cy'inyoni yitwa isande irikwarika, inyoni kugira ngo zororoke zikora icyari zigatereramo amagi, akaba ari mo zituregera amagi yazo.

Inuma, inuma ni inyoni ishimishije. Hari izo worora ziba mu rugo zigatanga umusaruro, zikaribwa inyama, zigatera n'amagi meza aryoshye.

Inkima ebyiri zicaye ku giti mu ishyamba ziri kureba uko zabaho.

Inzoka zizinguranyije ku kuboko k'umuntu. Ubundi inzoka ni inyamaswa abantu batinya, kuko iryana.

Igihangara ni agasimba gakurura inda, kari mu bwoko bw'imiserebanya ariko ko ni kanini, gakunze kona ururabo w'imyaka.

Isha iri mu ishyamba. Ni igisimba kigiye kumera nk'ihene. Abahigi bakunda kuyihiga ngo bayirye kandi ba mukerarugendo bakunze kuyisura, ikinjiriza Igihugu amafaranga.

Ino ni inyoni iguruka, hari iziba mu gasozi, hakaba n'izo borora mu rugo zikamenyerana n'abantu. Barazigurisha bakabonamo amafaranga.

Kamugi ni agasimba kameze nk'imbeba. Kakaba gakunze kona imyaka, kandi gakunze kuba mu ishyamba.

Inkoko ziri kubunga mu ishyamba, hari aborora inkoko bakazishyira mu nzu zabugenewe ,n'abazorora zikazerera ku gasozi.

Inkima ni agasimba keza ko mu ishyamba gakunze kuba muri pariki, inkima ni agasimba gakunda gusimbuka, bityo kagashimisha bamukerarugendo hakaza amafaranga.

Ingunzu n'igisimba cy'agasozi kiba mu ishyamba, ingunzu n'agasimba kagira amahane, kagasuzugura abagore n'abana.

Isha ziri mu ishyamba, isha ni utunyamaswa dukunze kuba muri pariki, tukaba tuzwiho kwirukanka cyane.

Impara ni udusimba tuba muri pariki. Tukaba ari udusimba tuzi kwiruka. Utwo dusimba dukurura ba mukerarugendo. Ni udusimba twiza, dushimishije.

Inzovu ni igisimba kiba muri pariki. Kikaba igisimba kinini cyane, gikunda gukurura ba mukerarugendo bagatanga amadovize.

Ishya n'agasimba ko mu ishyamba kazi kwirukanka, abahigi bakunda guhiga, kuko kagiye kumera nk'ihene kagira inyama iryoshye.

Inkura ni igisimba cyo mu ishyamba, kigiye kumera nk'ingurube, ariko cyo kikagira ihembe ku izuru.

Maguge n'udusimba tuba mu ishyamba , tukaba dukunda gukubagana no kona tuzi gutaruka cyane.

Inkuru，ni ibisimba biba muri pariki， bigakurura ba mukerarugendo， bikinjiriza igihugu amadovize.

Ikigona n'inyoni nziza itatse amabara umukara n'umweru. ikigona ntigikunze kona gikunze gutoragura amashashi no gupepura abana imigati.

Nyirabaraza ni inyoni iguruka iba mu ishyamba. Ikagira urunwa rurerure rusongoye, ikunze kugira ibara ry'umukara.

Agaca ni inyoni ikunda kurya inyama, cyane cyane udushwi tw'inkoko cyane.

Inuma ni inyoni ishobora kuribwa. Hari inuma zo mu ishyamba n'inuma bororera mu rugo. izororerwa mu rugo abazoroye barazigurisha bakabona amafaranga.

Igisiga gihagaze ku itabi ry'igiti cyitwa icyanira. Gikunze kurya imbeba, imitubu n'utundi dukoko dutoya.

Umwana wambaye umwenda w'umweruru, wogoshe umutwe, ufashe umutubu mu maboko ari kuwerekana.

Ingagi ebyiri ziri gusoroma imbuto mu giti, ingagi ni igisimba kiba muri pariki y'ibirunga, ba Mukerarugendo bakunda gusura.